Icyapa kirekire gifite ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yanditswemo akaba asa umukara hakurya hakaba hari inyubako n'ibiti, bigaragara ko iki cyapa kiri kwamamaza, amagambo yanditseho akaba ari mu rurimi rw'icyongereza.

Icyapa kiri mu ishusho ry'umuhondo ndetse cyandikishijweho amagambo y'umutuku n'umukara, ndetse n'ikimenyetso cy'itara riri kwaka n'ikiganza kiri gushushanya iryo tara, hakaba handitse mu rurimi rw'icyongereza ngo tamu layifu inshuwarensi.

Umugabo uri mu bigori wambaye ingofero n'ikote ry'umukara. Mu rupapuro rw'ibara ry'umweru harimo amagambo yanditswemo "shinganishwa ibihingwa byawe". Bigaragara ko ari uburyo bwo gushyira ibihingwa byawe mu bwishingizi ndetse na nimero wabahamagaraho.

Bigaragara ko umugabo yari afite isima ku kuguru kwiwe nk'aho yavunitse bikaba byerekana ko ari icyapa cyamamaza cyanditseho amagambo avuga ngo impanuka ntiteguza gura turi kumwe ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima kanda akanyenyeri magana atanu mirongo itatu na rimwe urwego

Inyubako igaragara y'uko isakaye, irinda icyapa kugira ngo kitanyagirwa, kikaba kiriho isura y'umuntu ugaragaza mu maso n'ingoyi zo hejuru, bigaragara ko ari aho byerekana ubwishingizi bw'imodoka, hakurya hakaba hari n'imodoka ziparitse zikikijwe n'ibiti, bigaragara ko hakurya hari izindi nyubako.

icyapa cyamamaza cyanditswe mu magambo y'umweru ndetse n'ibara ry'ubururu bwijimye n'umutuku handitsemo amagambo avuga ngo "buritama ese wari uzi ko hari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye".

Icyapa kiriho abantu benshi kikozwe mu ibara ry'umweru ndetse hakaba handikishishwaho amagambo y'umukara bigaragara ko gishyigikiwe n'icyuma kirekire, ikirere gifite ubururu bwinshi n'umweru bigaragara ko kigiye kugwisha imvura ndetse hakaba hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza.

Urupapuro rw'umweru rurimo amagambo y'icyongereza yanditse mu ibara ry'ubururu n'umutuku, n'akaziga karimo amagambo y'umweru kari mu ibara ry'umutuku.

Ameza arambitseho ibikoresho byagenewe mu itumanaho ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, bavuga ngo duha agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi, bigaragara ko ari ubucuruzi bujyanye n'itumanaho bari kwamamaza.

Umukobwa wicaye warambuye amaboko bigaragara ko ni umuzungu mu ishusho ry'icyatsi, bigaragara ko ari icyapa kiri kwamamaza, hakaba handikishijwe amagambo y'ikinyarwanda aho handitswe "ngo uyu munsi uwuharirire kwiyitaho no kuruhuka" hasi hakaba hari na nimero ya telefone wabahamagaraho bakagufasha.

Icyapa gifite ishusho umutuku n'umweru ndetse amagambo y'umutuku n'ubururu bwijimye bigaragara ko hari icyapa kiriho imbwa iri kureba hasi hakaba hari ibiti ndetse ikirere gifite ubururu bwijimye cyane.

Icapa kiri mu ishusho ry'ubururu handitsemo amagambo ya ekobanki de panafurika kerekana kerekana ibijyanye n'icungamutungo.

Abakobwa babiri ndetse n'umuhungu, umuhungu wambaye ikote ndetse n'ipantaro, mu ibara ry'umukara n'ishati y'umweru mo imbere, abakobwa babiri bambaye amakanzu y'imikara, bigaragara yuko hari ibyo bari kwishimira bijyanye no gutumira abantu kubijyamo, hejuru hariho umuriro uri muri telefone, n'amarezo yo muri telefone

Urupapuro rwerekana rwerekana konte y'umuntu ayo yabikuje n'ayo asigaranye, hejuru hariho igihe ndetse n'amarezo n'ikiranga ko terefone irimo umuriro.

Inkweto bambara barigukina umupira, rumwe ruteretse ahantu kukintu gisa, gifite ibara ryenda gusa umutuku izindi zimanitse mukabati, bigaragarako zirigucuruzwa kandi zisa neza zicyeye.

Akabati karimo inkweto, gakozwe mubyuma birimo amabara y'umukara ndetse gatewe amarange y'umweru n'umukara, munzu irimo urumuri rw'amatara hejuru hakaba hari ibyuma biteye amarange y'umukara.

Icyumba kirimo ibintu byinshi bijyanye n'ubugeni akabati gateretseho ibyo bashyiramo indabyo kugira ngo zituma ndetse n'umuntu wicaye akaba yunamye ,hakurya hakaba hari mudasobwa bigaragara ko iyi ari inzu y'ubugeni hakaba hari n'imyenda ,ibitebo ndetse n'imitemeri .

Inkweto zifunze zo kwambara ziganje mo iz'umukara, iz'umutuku, bigaragara ko ziri gucuruzwa, ziteretse hejuru aho ziteretse ku gitambaro cy'umweru, ziri gucuruzwa.

Imyenda imanitse bigaragara ko iri gucuruzwa, harimo amakanzu, amashati ndetse ikaba iri ahantu hasi hari sima iri gucuruzwa.

Umumama ufite imisatsi inyereye bigaragara ko ari guseka hakurya hakaba hari akabati karimo ibikoresho bitandukanye, udusakoshi abamama bitwaza ndetse n'imyenda y'umukara wagira ngo arimo aracuruza.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara imbere yaho hari ibiti mu kirere gikeye, bigaragara yuko hakurya hari inyubako ndetse ikaba iparitse ahantu habugenewe hari bigaragara ko iparitse hejuru y'inyubako.

Abagabo umwe, babiri bigaragara ko bari kwerekana icyapa gikozwe mu rufunguzo rw'imodoka hakaba handikishwaho amagambo atukura ngo akagera moto; inyuma yabo hakaba hari imodoka nini ifite irangi ry'umweru bigaragara ko igurishwa ari shyashya.

Imodoka ihagaze mu muhanda wa kaburimbo ndetse hejuru hakaba handitse ngo bibiri na cumi yondayi takisoni amafaranga igurishwa, ndetse uyu muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti birebire, hakurya hakaba hari urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse bikaba bigaragaza ko iyi modoka igurishwa.

Abagabo babiri, bafite urufunguzo rw'imodoka, bigaragara ko bari kuruhererekanya, inyuma yabo hakaba haparitse imodoka iteye irangi ry'umweru, ndetse hirya hakaba hari inyubako bigaragara ko hejuru hari icyapa cyanditseho ngo Akagera moto, bigaragara ko hacururizwa imodoka.

Umupapa wambaye ishati y'umukara, indorerwamo zabugenewe kureberamo, ateruye umwana, mo imbere mu birahure hakaba harimo umuntu uhagazemo wambaye umupira w'umweru, ndetse amatara arika, hejuru akaba ari icyacyapa cyanditseho ngo pati selizi kawunta mu rurimi rw'icyongereza.

Abagabo babiri bafite urufunguzo rwanditseho Akagera moto, inyuma yabo hakaba hari imodoka nini yagenewe kwikorera imizigo, hakurya hakaba hari ibiti byinshi, bigaragara ko aba bagabo bari kwerekana buryo ki iyi modoka igurishwa.

Imidoka ihagaze ifite irangi ry'umukara, hejuru hakaba handitseho amagambo mu rurimi rw'icyongereza bibiri na cumi n’umunani Jeep wrangler ltd,for sale, price miliyoni mirong’ itandatu n'eshanu, hakurya hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti bikikije izi nyubako.

Imodoka ebyriri, zifite amabara y'umweru, ndetse n'abagabo babiri bahagaze imbere yazo, bigaragara ko ziparitse ahantu ku Kagera moto, abagabo babiri bafite urufunguzo, berekana ko izi modoka zigurishwa.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka bombi bambaye amashati y'umweru, inyuma hakaba hari imodoka iri mu ibara ry'umukara ndetse bigaragara ko ari icyapa hejuru cyamamaza cyanditseho ngo akagera moto, bigaragara ko ariho bacururiza imodoka kubera ko bari guhererekanya urufunguzo rw'imodoka.

Imodoka iparitse munsi y'icyapa kigaragaza ubwoko bw'imodoka, ikaba iri mu ibara ry'umukara, hakurya hakaba hari ibiti, ikirere cyijimye, ndetse n'uruzitiro rukozwe mu byuma, bigaragara ko hari n'ubusitani bw'ibyatsi.

Imodoka zifite amabara y'umweru ziparitse ahantu ari nyinshi, hakurya hakaba hari inyubako ndende ndetse n'ibiti byinshi bigaragara ko ubu ari ubusitani, inyubako imwe ikaba ifite ibirahure byiganjemo iby'umukara bigaragara ko ari inyubako ndende cyane.

Umuntu ufite ikaramu urimo urandika, wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru mo mbere, bigaragara ko ku meza hateretse mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuyikoresha, ameza ari mu ibara ry'umweru ndetse bigaragara ko hari mudasobwa zirenze imwe.

Inoti y'amafaranga igihumbi yanditswe mu mibare ndetse no mu magambo, bigarara ko hari ho ibyasti biri kugenda mo inka zifite amahembe meza, ndetse bigaragara ko ari inote yo mu Rwanda.

Inote y'amafaranga magana atanu yandikishijeho imibare ndetse n'amagambo mu gifaransa hariho abana ndetse n'ingagi ziri mu birunga.

Amafaranga y'igiceri yanditseho amagambo mu kinyarwanda avuga ngo banki nkuru y'u Rwanda, hariho ikigori gishishuye, bigaragara ko yakozwe mu bihumbi bi bin na cumi na rimwe

Igikoresho cyabugenewe mu kubika amazi giteretse ahantu hasa neza hari amakaro y'umweru yometse ku gikuta ndetse no hasi urukuta ruteye irangi ry'umuhondo amadirishya atewe irangi ry'icyatsi ndetse n'ibirahure, bigaragara ko hari ahantu batunganyiriza amata.

Umugabo bigaragara ko arimo aracuruza mu kabati hakaba harimo amasahani ariho amagi, ndetse igikuta gifite irangi ry'ubururu hejuru mu kabati karimo amata n'ibyo kunywa bigaragara ko afite n' ibikoresho bitunganya amata.

Ububido burimo amata, ndetse n'udukarito dufungiyemo amata y'ibivuguto, bigaragarako ari muruganda rutunganya amata, bari kutwereka ubwoko bw'amata bakora.

Amacupa y'amazi atetse mu cyo bayatwaramo; bigaragara ko aya mazi ari aya nire, akaba ateretswe mu ikarito yayo. Bigaragara ko bakiri gushyiramo andi, inyuma hakaba hari urukuta ruteye irange ry'umweru.

Abantu umwe babiri batatu bane, imbere hakaba hateretse ameza afite irangi ry'umweru ateretswe ibyo kunywa nk'amata, aho abana babiri bari kunywa amata bafite n'ibyo kuyanywesha imbere, inyuma yabo hakaba hari inzu ifite ibirahuri by'umukara byijimye hakurya hakaba hari ubusitani bugaragara ko ari ubw'ibyatsi.

Icyapa kigaragaza gifite ishusho hariho inka ndetse n'akabati karimo ububido burimo amata, kanditseho Nyanza famu bigaragara ko harimo umuntu wicaye. Wambaye umupira w'umukara uri kwerekana ikiganza, mu nzu irimo ibikoresho bitunganya amata.

Amacupa y'amazi ateretse ahabugenewe ndetse yegeranye n'ibikoresho byagenewe gupfunyikiramo abantu ibyo baguze, hirya hari urukuta ruteye irange ry'umweru ndetse hakaba hari urumuri rwinshi.

Akabati karimo amacupa y'amazi hejuru hakaba hari ishusho yerekana inka ndetse n'ibyansi bashyiramo amata, akabati gafite inyuma hasa umweru, mu nzu igizwe ifite igizwe n'amabara y'ubururu ndetse ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye matoya.

Terefone igaragaza akanyenyeri ijana na mirongo itaratu na gatanu urwego ugahita winjira muri mu bufasha bwa emutiyeni bigaragara ko ari ukwinjira muri mu bufasha bwa emutiyeni uri kureba ko ufite amafaranga kuri terefone yawe.

Umukobwa wambaye umupira w'iroza akaba afite igikoresho cyagenewe itumanaho mu ntoki z'iwe, bigaragara ko haribyo ari kwerekana ndetse inyuma hakaba hari icyapa, kigaragaza ubuso b'ubururu bwijimye handitseho amagambo mu ibara ry'umweru mu cyongereza bake rike de bosi yuware.

Abakobwa batatu bicaye barimo baraganira, inyuma yabo idirishya rikinguye, inzu ikaba iteye irangi mu bwoko bw'icyatsi, ku gikuta hakaba hariho icyapa kimanitseho amacupa ndetse n'ibiciro by'inzoga zigura.

Icyapa cyanditsweho amagambo menshi cyane ari mubururu bwijimye ndetse n'ikirangantego cy'ibendera ry'u Rwanda hejuru mubumoso hakaba harimo umwaka ibihumbi makumyabiri nagatatu mu magambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwandakabawanditse ngo paypar funguza paype account mu rwanda.

Urupapuro rw'umweru ndetse rurimo n'andi mabara y'umutuku rwandikishijemo amagambo y'umweru ndetse n'umukara; bigaragara ko hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'imibare; amafaranga y'amadolari igihumbi na magana cyenda hasi hakaba handitse ngo sendi peyimeti.

Amagambo y'umweru yanditswe ku rupapuro rusa umukara, ndetse hakaba hari n'igikoresho cyagenewe mu itumanaho ariryo bakunze kwita telefone, hejuru bakaba handitse ngo sipini bigaragara ko hari n'umuntu utari kugaragara neza, byerekana ko ari ibintu byamamaza.

Urupapuro ruri mw'ibara ry'umweru, ikirangantego cy'u Rwanda, ndetse amagambo yanditswe mw'ibara ry'umukara n'imibare yanditswe mw'ibara ry'umukara, n'umwirondoro. Bigaragara ko ari urupapuro rwerekana ko yishyuye imisoro.

Mudasobwa irikwaka ikaba iri kugaragaza urupapuro rw'umweru rwandikishijweho amagambo n'imibare mw'ibara ry'umukara, bigaragara ko ari imibare ijyanye n'ubwishyu bw'ibintu runaka.

Urupapuro rwanditswe rufite ibara ry'umweru rwandikishijweho amagambo y'umukara ndetse n'imibare, hejuru mu nguni y'ibumoso hakaba hariho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda kigaragaza yuko ari uburyo amafaranga yabikijwe mu icungamutungo.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwandikishijweho amagambo y'umukara ndetse n'imbonerahamwe irimo amagambo, ndetse n'amafaranga bigaragara ko ari ibintu n'agaciro bihagaze.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho amagambo mu ibara ry'umukara rwerekana ko umuntu yaba yishyuye hariho itariki yishyuriyeho, amazina ye ndetse n'ibyo yishyuye rugaragaza uburyo yishyuye amafaranga.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo y'umukara ndetse n'imibare, ikirangantego cy'u Rwanda hejuru munguni y'ibumoso rwerekana ko ari urupapuro rujyanye n'icungamutungo y'amafaranga.

Urupapuro rugaragaza amatariki, amafaranga yabikujwe, amafaranga asigayeho, ayabikijwe ruri mu ibara ry'umweru mu magambo y'umukara rugizwe n'imibare, amatariki n'amafaranga ndetse n'amazina y'abantu babikuje cyangwa babikije.

U rupapuro ruri muri mudasobwa bigaragara ko ari urupapuro rw'inyemezabwishyu rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara hejuru ibumoso mu nguni hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse bigaragara ko ari uburyo amafaranga yishyuwe .

Urupapuro ruri mw'ibara ry'umweru rwandikishijeho amagambo y'umukara rufiteho na kashe yerekana beka yacu ndetse bigaragara yuko ari urupapuro rw'umuntu witwa Emanweri Nzafashwanayo. Bigaragara y'uko ari urupapuro rwerekana ko yavuye kubikuza amafaranga.

Urupapuro rwerekana ko umuntu yishyuye amafaranga kuri banki hariho ikirangantego cy' u Rwanda, handitseho Rusizi, hariho n'imibara n'aho basinya byerekana n'imibare y'amafaranga yishyuye.

Mudasobwa iri kwaka ikaba iri kwerekana urupapuro rw'umweru rwandikishijweho amagambo y'umukara, hejuru mu nguni y'ibumoso hakaba harimo ikirangantego cy'u Rwanda bigaragara ko ruri kwerekana inyemezabwishyu y'umuntu uburyo yashyizeho amafaranga cyangwa yayakuyeho.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga y'inote, bigaragara ko hariho ibirangantego by'umuntu wambaye indorerwamo zabugene zo kureberamo w'umusaza, amafaranga yariho imibare yandikishishijwe amagambo y'umukara ndetse bigaragara ko ari kuyabara.

Umuntu w'umuzungu imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'imashini yifashishwa mu kubara amafaranga, biteretse ku meza bisa nk'aho ari mu bintu bijyanye n'ibara ry'amafaranga, wambaye ikanzu ndetse ahantu hari urumuri rukeye.

Ikiganza gifashe amafaranga atandukanye mu biganza byombi bigaragara yuko ari ubwoko butandukanye bw'amafaranga amafaranga amwe hakaba hariho inyubako andi nayo hakaba hariho ibindi birangagantego byayo amwe akaba ariho amafaranga inoti y'igihumbi indi akaba ari amafaranga inote y'ijana.

Abagabo babiri bari guhererekanya amafaranga y'ubwoko butandukanye bigaragara ko amwe hariho ikirangantego cy'umuntu, ahandi hakaba hariho ikirangantego cy'inyubako ndende bari kuyatanga.

Amafaranga y'inote yanditsweho imibare magana abiri ndetse mu rurimi rw'icyongereza handitse ngo yuro bigaragara ko hari amafaranga menshi y'inoti arambitse ahantu mu ibara ry'umweru amafaranga menshi cyane.

Inyubako iteye irange ry'ubururu hakaba hariho icyapa cyanditseho ngo "GIRANEZA", bigaragara ko mu imbere hateyemo irange ry'umweru wagira ngo haribyo bakorera/batanga ubufasha ku bantu.

Intebe zagenewe kwicarwamo zegamiwe ndetse n'ameza n'utundi tumeza duto bigaragara ko ari ho bakorera izi ntebe zikaba zimeze nk'aho ziri ku isoko.

Akazu gakozwe mu mbaho gateye amabengeza gateretse ahantu, inyuma yaho hari amazu yubatse afite amabati y'umukara, inyuma y'amazu hakaba hari ibiti, igihe ikirere gikeye izuba ririmo riraka, bigaragara yuko ari umutako umeze neza.

Abagabo batatu bicaye ahantu babika imbaho ndetse bigaragara ko hari n'izindi zitwikirije ihema, igiti kiri hanze kirekire, igihe izuba ririmo riraka, bigaragara yuko hari n'ikiraro cyambuka kijya aha hantu babika imbaho.

Inzu isa neza irimo intebe zo kwicaramo zimwe zimeze neza harimo irimo amakaro, inzugi z'ibirahure, hakeye harimo n'ameza, bigaragare ko ari salo abantu bicaramo bari kuganira.

Intebe ndetse n'ameza zirimo imisego ziteretse mu nzu bigaragara yuko ari inzu ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, hasi hakoze neza ndetse n'urugi inyuma rukaba rufunguye.

Inzu irimo intebe ndetse na televiziyo, hakaba harimo n'isaha imanitse hejuru, bigaragara ko hasi hari amakaro ndetse n'imeza iri mw'ibara ry'umukara. Bigaragara ko ari mu nzu, abantu bicaramo muri salo.

Inyubako ndende igizwe n'ibirahure byinshi hasi hari pisine aho bogera yubakishije amatafari ahiye ndetse bigaragara yuko hari ikirere gikeye hirya hari ibiti bimeze nk'ubusitani.

Inyubako ndende bigaragara ko ari mu gihe cya nimugoroba amatara ari kwaka, hanze hakaba hari icyuzi cyabugenewe bogeramo ndetse ikaba ifite ibirahuri byijimye cyane by'umukara, amarangi y'umuhondo, bigaragara yuko ari inyubako ishinzwe kwakira ba mukerarugendo.

Icyumba gifite inzugi zikinguye ndetse n'aho bogera, n'ibyabugenewe kuzana amazi ndetse n'ibitambaro birinda urumuri kwinjira mu nzu, ibikuta byometseho amakaro bigaragara ko hakeyeye.

Inyubako igeretse kabiri, iri mu mabara y'umutuku ndetse hanze hakaba hari ubusitani bw'ibiti, hasi hakaba hari ibyo amacupa baterekamo indabyo, ibirahuri by'umweru mu nzugi ziteye amarangi y'umweru ndetse hakaba harimo n'ibitambaro byabugenewe mu kurinda urumuri rujya mu nzu.

Ahantu hari intebe ebyiri ndetse n'akazu ko kuruhukiramo, hasi hasa umukara bigaragara ko ari ahantu abantu baruhukira, hakikijwe n'uruzitiro rwubatse neza ruteye amarange y'umweru ndetse rukikijwe n'ibiti bigaragara ko ari ahantu abantu baruhukira.

Ubwiherero bwa kizungu busa neza, ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse idirishya rikinguye hakurya hakaba hari ibiti n'umwambaro wagenewe mu kwihanaguzwa igihe abantu basoje koga.

Icyuzi kirimo amazi aho abantu baza kogera gikikijwe n'ibyatsi by'ubusitani ndetse n'intebe bicaramomo zifite amabara y'imikara ndetse hakurya hakaba hari amahema ari m'ibara ry'umutuku ndetse n'uruzitiro rukozwe mu byuma.

Inyubako irimo abantu bigaragara ko ari aho biyakirira, harimo urumuri rwinshi, yubakishije ibiti ikaba isakajwe n'ibyatsi, hakurya hakaba hari ubusitani bugizwe n'ibiti, imigano, bigaragara ko ari igihe cya nimugoroba.

Ubusitani burimo intebe ziri mu mabara y'umweru, ndetse n'imitaka y'umweru, inyubako ifite ibirahure biri mu mabara yijimye ndetse n'ibyinjiza imiyaga mu nyubako yubakishije amatafari ahiye, ndetse bigaragara ko ari mu busitani.

Umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara ,ipantaro y' umukara ndetse n'inkweto z'umukara ,inyuma ye hakaba hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'intebe bicaramo bakegama y'umukara ndetse n'urugi rutewe irangi ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro y'umweru bigaragara y'uko hari ibyo ari kuvuga.

Inyubako ndende yubakitse neza, ifite ibikuta bimwe by'amatafari ahiye, ndetse ahandi hateye amarangi y'umuhondo mu birarahure byijimye, mu byapa byinshi cyane ariko ikigaragara kikaba ari icyapa kijyanye n'ubwishingizi, hasi hakaba hari abantu bari kugenda ndetse n'amatara yo ku mihanda.

Icyapa cya banki bita Beka kiri kwamamaza ndetse hakaba hariho abahanzi benshi harimo uwo bita debeni, bushali, kirisi ize, Bwiza ndetse nabandi batandukanye, kiri gutumira abantu muri konseri.

Abantu benshi ba bamama, imbere yabo bateretsemo ibicuba batwaramo amata y'inka, hakurya hakaba hari ibyatsi by'ubusitani ndetse n'inyubako ifite inzugi zikinguye ziteye irangi ry'icyatsi, bigaragara ko bari kwishimira ibicuba bahawe.

Umukobwa wicyenyeye igitambaro mu mutwe, urimo uraseka. Hejuru hari icyapa cyerekana banke y'abaturage, bigaragara yuko barimo baramamaza ibyiza bya banke y'abaturage.

Umukobwa ufite imisatsi isutse urimo uraseka imbere ye hari inyubako ifite amabati y'umukara, umeze nk'umuntu uri kwamamaza ibijyanye n'inzozi ziwe, ufite igikapu mu ntoki wambaye n'amaherena.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijweho amagambo mu ibara ry'umukara, ndetse bigaragara ko ari amagambo yo mu rurimi rw'Icyongereza, hejuru hakaba handitseho bipiyara banki, bigaragara ko ari urupapuro ruriho amabwiriza ajyanye n'iyi banki.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru imbere ye hakaba hateretse mudasobwa akaba afashe urupapuro mu ntoki, bigaragara yuko hejuru hari amagambo yanditse ngo beka turi kumwe, byerekana ko ari kwishimira ubufasha bahabwa na beka.

Inyubako ndende ifite ibirahuri by'umukara, inzugi ziteye amarangi y'ubururu, urukuta ruteye amarangi y'umuhondo, bigaragara ko hamanitswe ibyapa ndetse hanze hakaba haparitse moto, ubusitani bugizwe n'ibiti birebire ndetse n'ibyatsi hasi, igihe cya ku mananywa.

Isoko ririmo umumama uri gucuruza inyanya, karoti, biri ku mabase, yitwikiriye n'umutak, wikenyeye ibitenge, ku kazuba, ndetse hari n'abandi ba mama benshi.

Isoko ririmo abantu benshi harimo gucuruzwamo ibijumba, imyumbati, ibirayi n'amakaroti harimo abamama ndetse n'abana bari gutoranya ibirayi.

Isoko ririmo abamama benshi bari gucuruza inyanya, intoryi, urusenda, ibitunguru ndetse bigaragara ko ari isoko rwose riremera ahantu inyuma hari insina ndetse n'abaguzi baje kugura.

Isoko ririrmo abantu bari gucuraza, ibitoki, inyanya n'ibitunguru. Ndetse bigarako harimo ababyeyi benshi, harimo n'ibyuma bifashe igisagi kiri soko.

Abantu babiri bari mu isoko, umwe umugabo wambaye umupira w'umutuku undi ni umugore wambaye umupira w'ubururu uri gucuruza amaronje, imineke ndetse uri munsi y'umutaka bigaragara ko ari mu isoko.

Inyubako iri mu mabara y'umuhondo ndetse ifite inzugi ziteye amarangi umukara n'ubu n'icyatsi, aho hari abantu benshi bahagaze hejuru hakaba hari insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi, ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu gufasha itumanaho kugenda neza.

Abantu bateraniye aha ngaha bigaragara ko hari imitaka iri mu mabara y'umuhondo, hakurya hakaba hari amazu ateye irangi ry'icyatsi, ndetse n'ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko ari mu isoko ricuruza imyambaro.

Inyubako bigaragara ko irimo ibintu bijyanye n'ubugeni ingoma, ibisabo, ibyibo ndetse n'imitemeri, hakaba hari ibyuma bitewe amarangi y'umukara ndetse n'ababyeyi bicayemo imbere, harimo amamashini abafasha kudoda imyenda no gukora ubundi bukorikori.

Isoko riri gucururizwa mu inyanya, karoti, ibishyimbo, ibitunguru ndetse hakaba harimo n'indobo zige zirimo ubunyobwa mu gisenge kifatishijwe ibyuma ndetse n'abantu barimo bishimye rwose bigaragara ko bari gucuruza.

Isoko ririmo abamama benshi bigaragara ko bari gucuruza inyanya, ibitunguru, amashu, amakaroti ndetse bigaragara ko bari gucururiza kumifuka, agasoko karema nimugoroba abandi bakaba baje guhaha.

Umumama wicaye mu bintu ari gucuruza, wikenyeye igitambaro mu mutwe, akaba yifashe ku kananwa, igitebo kirimo inyanya, hirya y'aho imineke, imyungu, imyembe, bigaragara ko yaje gucuruza.

Inyubako bigaragara ko ari mw'isoko ry'abaturage aho risakajwe amabati atukura, igipangu gikikijwe n'ibyuma ndetse n'inkingi zubakishijwe amatafari, hakurya hakaba hari ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi bigaragara ko hano ari isoko ry'abaturage.

Abamama ndetse n'abapapa benshi bari mu isoko bigaragara ko ari isoko rirema kumugoroba hakaba harimo ibitoki, imineke, karoti, ibijumba, imyumbati ndetse n'ibindi byinshi bigaragara ko ari isoko ry'abaturage ryo kumuhanda.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo amagambo y'umukara cy'ikigo gishinzwe itumanaho MTN kigaragaza uburyo kibakanda imibare bakishyura.

Abakobwa babiri bicaye munsi y'imitaka ifite ibara ry'umuhondo bigaragara ko ari iby'ikigo gishinzwe itumanaho emutiyene, hakurya hakaba ari amapoto y'ibiti yikoreye insinga z'amashanyarazi ndetse n'uruzitiro rwubakishijwe ibiti.

Abagabo umwe, babiri, batatu bahagaze ku kazu gateye irangi ry'umuhondo ndetse n'icyapa cyamamaza kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku mu magambo y'umuhondo bigaragara ko baje kwaka ubufasha ku kigo gishinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo n'umweru ndese n'umakara mu ibara rya emutiyene, hakurya hakaba hari ibiti, munsi muri iyi inyubako amatara akaba arikwaka ndetse bigaragara yuko ari ukwamamaza.

Abagabo babiri umwe wambaye ingofero ndetse n'umupira w'umuhondo, inyuma yabo hakaba hari imodoka iteye irangi ry'umukara bafite ibikoresho byabugenewe mu itumanaho mu ntoki bigaragara ko umwe ari guha undi ubufasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga.

Abagabo babiri ndetse n'umukobwa, bigaragara ko umugabo n'umukobwa wambaye imipira y'umuhondo yagene ikigo gishinzwe itumanaho, hakurya ku gikuta hakaba hari ibikoresho byabugenewe mu kuzimya inkongi z'umuriro, bigaragara ko bacuruza n'amavuta yagenewe gushyirwa mu binyabiziga.

Abantu baje gusaba serivise za emutiyeni abakobwa babiri bahagaze ku kazu gafite amabara y'umuhondo mu magambo ya emutiyeni, hirya hari ibiti ndetse n'imodoka inyuba hari amazu maremare akikije umuhanda ndetse bigaragara yuko ari igihe ikirere gikeye.

Umuma ufite igikoresho cyabugenewe mu itumanaho, bigaragara ko arimo arareba, hakaba harimo abantu babiri bahagaze, hejuru hakaba handitse vuba mu ibara ry'umweru ndetse bikaba bigaragara ko hari ibyo yishimiye.

Inyubako irimo abantu bigaragara ko hari umuryango ufunguye, ifite ibyapa hejuru biri mu ibara ry'ubururu mu magambo y'umweru hakaba handitsemo ngo ihaha, hasi hakaba haparitse moto ndetse n'imodoka, ubusitani bw'ibiti bigaragara ko hakeye.

Moto ziparike imwe, ebyiri, eshatu bigaragara yuko ziparitse ahantu habugenewe mu byatsi byinshi by'ubusitani zikaba zisakariwe hakurya hakaba hari ipoto ryikoresha insinga z'amashanyarazi urugo rbakishijwe amatafari manini bakunze kwita burokesima.

Moto ziparitse ku muhanda zihetse udusanduku batwaramo ibyo kurya badushyiriye, abantu hirya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'ubusitani bwo ku muhanda hari n'ipoto ry'ipoto ry'itara ryo ku muhanda.

Umukobwa n'umuhungu bari guhererekanya ibintu bigaragara ko ari ibyo amuzaniye, ndetse na moto iparitse ku ruhande, ifite agasanduku k'umukara kanditseho amagambo ngo safi, hakurya hakaba hari ibiti by'ubusitani ndetse n'urugo ruriho urugi rw'ibyuma biteye irange ry'umweru.

Imodoka iparitse ahantu mu ibara ry'umutuku, inyuma ku kikaruhe ikaba ifiteho ibyapa byamamaza, bigaragara ko iri ahantu hubakishijwe urukuta rw'amabuye rusizemo ibara ry'irange mo hagati, ndetse n'inzu yubakishijwe amatafari ahiye, bigaragara ko hejuru y'uru rukuta hari ubusitani bw'ibyatsi buteretseho.

Umugabo utwaye igare wambaye ishati y'icyatsi, uhetse igikapu na cyo kiri mu ibara ry'icyatsi, wambaye ingofero yabugenewe y'ubwirinzi ndetse n'indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, hakaba hari ibyo ahetse, hejuru hakaba handitse amagambo avuga ngo vuba vuba, bigaragara ko hari ibyo ashyira abaturage bamuhaye ngo abibagezeho yihuse.

Ubwogero burimo ibase ndetse idirishya rikaba rikinguye, bigaragara ko urukuta rwomekeshejweho amakaro, hejuru hakaba harimo parafo iteye irangi ry'umweru, bigaragara ko hakodeshwa mu mujyi wa Kigali.

Icyumba kirimo abantu umwe babiri umu mama n'umupapa bigaragara ko inyuma yabo hari akabati karimo amacupa maremare ibikombe byo kunyweramo hagati yabo hakaba hari ameza ndetse n'intebe zicarwamo zegamirwa z'umukara bigaragara ko bari kuganira inzu amatara arimo araka ibikuta biteye amarangi y'umweru.

Icyumba kirimo amatara arimo araka inzugi z'ibiti ziteye neza, hasi hari amakaro y'umweru ibikuta biteye amarange y'umweru ndetse hari n'akantu kifashishwa bari koza amaboko bigaragara ko iki cyumba gikodeshwa.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, wazinze amaboko ndetse bigaragara ko arimo aragenda, hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi imbere ye, hakurya hakaba hari amazu ateye irangi ry'umweru, amabati y'umukara hejuru ndetse n'ibigega bifata amazi.

Icyumba kirimo igitanda ndetse gisashe neza, hasi hakaba harimo amakaro akeye, kurukuta hakaba hari akantu bireberamo kari mw'ibara ry'umukara, hejuru hakaba hari amatara arikwaka mu mabara y'umweru yererana, icyumba kikaba gikodeshwa, hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'inzugi zifite ibirahure by'umweru.

Igikoni kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga hasi gisashimo amakaro, ububati ndetse n'ibikoresho byagenewe gushyushya ibiryo, ku gikuta hometsemo amakaro, hejuru hakaba hateye irange ry'umweru.

Inyubako ndende zifite urupangu ruteye irangi ry'umweru ndetse n'ibiti bigaragara ko ari ubusitani amadirishyay'umweru n'ibirahuri by'umukara, yubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amatara amurikira muri uru rugo bigaragara ko ikirere gikeye.

Inyubako ndende igizwe n'amabara y'umutuku n'umweru n'umukara, ifite amadirishya arimo ibirahure by'umukara hasi hateye ibyatsi ndetse n'uduti bigaragara ko ari ubusitani imbere yaho hari igiti kirekire bigaragara ko hirya hari ikirere gikeye.

Inyubako ndende ifite ibirahure mw'ibara ry'umukara, inzugi ziteye irange ry'umweru, amabati y'umukara ikikijwe n'urugo rurerure hasi hakaba hari indabyo z'ubusitani bigaragara yuko iyi nzu igurishwa.

Urugi rukinguye bigaragara ko harimo urufunguzo, bigaragara ko ari icyumba cyo gukodesha amafaranaga ibihumbi ijana na mirongo itanu, hasi hakaba hari amakaro, ibirahuri byijimye mu ibara ry'umukara, ndetse amarange y'umweru ateye neza amabengeza.

Inyubako ifite ibirahuri by'umukara byijimye, inzu ziteye amarangi y'umuhondo, amabati y'umutuku imbere yaho hakaba hari ubusitani burimo ibiti birebire ndetse n'indabyo ziconze neza itewe amarangi y'umweru bigaragara ko iyi nzu ikodeshwa.

Inyubako iteye irangi ry'umweru, ikikijwe n'urugo rwubakishije amatafariye ndetse n'amabuye, ibyatsi by'ubusitani buyizengurutse, ikinyabiziga giparitse mu byatsi, bigaragara ko hari inzu ikodeshwa.

Inyubako isakajwe amabati y'umukara, ikaba ifite urugo ruriho urugi rutewe irangi ry'umukara. Urupangu hirya rwubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko irimo irakodeshwa. Ikirere gikeye, akazuba kari kwaka.

Inyubako bigaragara ko ari nimugoroba, ifite inzugi zitewe irangi ry'umweru, harimo ibitambaro byabugenewe bituma urumuri rutinjira mu nzu bisa umukara, hejuru hakaba hari amatara ari kwaka, mu nkuta zitewe amarangi y'umweru, hanze amakaro arenda gusa umukara.

Iyi nzu bigaragara ko umuryango ukinguye utewe amarangi y'umukara ndetse n'ibirahuri bibonerana, inkingi ifashe inzu ndetse hasi bigaragara ko hari amakaro ,no mu nzu ibikuta biteye irangi ry'umuhondo ndetse n'ibikoresho byabugenewe mu gucagiga ibikoresho bikonsoma umuriro.

Inzu ifite igikuta gitaye irangi ry'umweru, hakaba hamanitsemo igikoresho cyagenewe kwerekana amashusho n'amajwi, hasi hakaba hari ameza bigaragara ko amatara arimo araka.

Inyubako iteye amarangi umuhondo, umweru ifite n'umukara ifite amapave bigaragara ko bitararangira hirya hari insina igipangu.

Inyubako isakajwe n'amabati asa umukara, ibikuta bitewe irangi ry'umweru, inzugi zifite ibirahure by'umukara byijimye, hasi hakaba hari amatafari atondetse neza, inyuma hakaba hari insina ikirere gikeye bigaragara ko iyi nzu ikodeshwa.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'umweru n'ingofero z'umweru, bigaragara y'uko ariho babagira amatungo, bagacuruza inyama. Hari amatara ndetse n'ibindi bintu biri mu mabara y'umukara n'inyama ziri mu birahure bigaragara nkaho zamajije kubagwa.

Umukobwa uhagaze aho bacururiza ibyo kunywa, amazi, amafanta, bigaragara ko yaje kugura ibyo kunywa ndetse amatara akaba arimo araka, bikaba biteretse mu kabati bigaragara ko hakeye.

Abantu babiri, umwe uhagaze inyuma y'idirishya undi uri mo imbere uri kwandika, imbere ye hari ibitabo, yambaye umupira afite n'ikaramu arimo arandika, undi ahagaze hanze yambaye umupira w'umweru, basa nk'aho barimo baraganira amusaba serivisi.

Abantu benshi bamwe bicaye abandi bitwikirije imitaka, hari inyubako ifite amabati y'ubururu inyuma yaho hari ibiti, bigaragara ko bitabiriye ibiganiro bya ejo heza, bamwe bicaye mu byatsi ndetse hakaba hakeye cyane izuba ririmo rirava.

Abantu umwe, babiri bari kuganira bicaye mu ntebe z'imikara, ibitambaro hakurya by'umweru byanditseho ejo heza amagambo y'icyatsi, ndetse bigaragara ko imbere y'abo hateretse ameza bafite ibyo bari kuganiraho.

Igihe cy'umugoroba, bigaragara ko hari ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iteretse ku meza, yandikishijwe amagambo y'umukara, hejuru handitse ngo ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, araesiyesibi, bigaragara ko ari iyo kwivurizaho.

Umugabo wambaye umupira w'umweru imbere ye hakaba hateretse icupa ry'amazi ufashe indangururamajwi akaba yegeranye nundi wambaye impuzangano ya gisirikare hariho ibendera ry'urwanda inyuma yabo hakaba hari ibyapa byerekana ejo heza.

Abamama umwe babiri bigaragara ko bafashe amakarita yo mu bwisungane mu kwivuza imbere, hakaba hari umuntu uri kubafasha, ndetse bakaba bicyenyeye ibitambaro mu mutwe. Hakurya, hakaba hari urukuta ruteye irangi ry’umuhondo n’intebe yo kwicaraho.

Umuntu ufashe ikarita y'ubwishingizi hariho ifoto iri ku rupapuro rw'umweru ndetse inyuma hakaba hari intebe yo kwicaraho n'igikuta gifite irangi ry'ubururu mu nzu irimo sima hasi.

Abamama ndetse n'umupapa bigaragara ko imbere yabo hari ameza ateye irange ry'umweru ndetse hateretseho mudasobwa bigaragara ko bari gutanga ubufasha hejuru yabo hakaba hari icyapa cyanditseho ara esi esi bi bigaragara ko bari mu bintu bijyanye no gutanga ubufasha.

Umugabo uhagaze ufashe mikoro mu ntoki wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati yenda gusa umukara irimo n'amabara y'umweru, inyuma ye hakaba hari ibara riri mu kirangantego cy'ubwishingizi bigaragara ko arigutanga ikiganiro kubijyanye n'ubwishingizi.

Abantu benshi bivanzemo abamama ndetse n'abagabo bake, bigaragara ko barimo barandika, bafite amakaramu mu ntoki ndetse n'amakarita yo mu bwisungane mu kwivuza, inyuma yabo hakaba hari ibiti bimeze nk'indabyo, ameza barimo barandikiraho ndetse bigaragara ko bitabiriye igikorwa kijyanye n'ubwisungane mu kwivuza.

Ikiganza cy'umuntu gifashe ikarita y'ubwishingizi bigaragara ko ari munzu hasi hari sima wicaye muntebe uri kureba kwikarita yiwe y'ubwishingizi.

Inzu y'ubucuruzi harimo umukobwa wambaye umwenda wo hejuru w'umukara hasi umweru, utubati turimo ibyo kunkwa amata, amafanta bigaragara yuko hasi harimo amakaro hejuru amatara arimo araka.

Umukobwa wambaye indorerwamo zabugenewe zo kurebera ufite imisatsi miremire, wambaye ikote ndetse n'agapira k'umweru, bigaragara ko ari mu isoko ari guhaha, mu byo yahashye hakaba harimo inanasi ndetse n'ibindi.

Abakobwa babiri bigaragara ko umwe ari gucuruza undi yaje kugura, umwe wambaye agasengeri k'umweru undi akaba ari mo imbere, akaba ari kugura amavuta ashyira mu kantu kamufasha gutwara ibyo yaguze, ndetse bigaragara ko amatara arimo araka harimo ibicuruzwa byinshi.

Isoko ririmo ibyo kurya, ibyo kunywa, ibyinshi biri mu bikombe, ndetse bikaba biri mu ahantu hakeye, mu tubati duteye amarangi y'umukara. Hejuru hakaba hari amatara arimo araka, bigaragara ko ari urumuri rwose rumeze neza.

Umugabo umwe babiri batatu, bane ndetse na batanu bigaragara ko bamajije kugura ibikapu byo gutwaramo imyenda bakaba ari aho bacururiza imyenda, hasi hakaba hari amakaro amatara akaba ari kwaka muri iyi nyubako.